Umudamu n'abagabo bicaye, imbere yabo ku meza y'umukara hariho amacupa, impapuro, umudamu hagati yambaye agatambaro mu ijosi, baje y'ubururu, ishati y'umutuku, ibisuko by'umukara.

Abagore n'abagabo bicaye, bamwe bareba imbere, abandi bareba hino, abandi bareba hasi. Ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, igitabo kirimo bike, ingofero, bamwe bambaye amasaha ku kaboko, abandi bafite terefone mu ntoki.

Abadamu n'abagabo bicaye mu ntebe z'umweru, uyu wo ku ruhande afite telephone mu ntoki, afite igitabo hagati y'amaguru, hirya y'aho gato hari agacupa k'amazi hasi, hari undi ufite igitabo ku...

Umudamu uhagaze afite mikoro mu ntoki. Yambaye amaherena, amarinete, shanete mu ijosi, agakomo kukuboko, isaha, ishati y'umukara hari abandi bantu babiri bicaye. Umwe yambaye umupira w'umweru.

Abagabo batatu bicaye n'umugore umwe hagati bafite ibitambaro by'umweru mu ijosi kumeza hariho impapuro, uducupa twamazi, igitabo, terefone, umugabo wambaye amarineti, baji mu ijosi y,ubururu.

Madamu wicaye areba imbere, inyuma ye hari bagabo, asutse purante yambaye amaherena, shanete mu ijosi, afite bike mu ntoki, imbere ye kumeza hari terefone, ikirahuri, ivide, ururabo.

Abagore n'abagabo bicaye, bareba imbere, abandi bari kureba muri mashine, imbere yabo hari ji, amazi, terefone, ibipapuro, ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, icyatsi.

Abagore n'abagabo bicaye bareba imbere, harimo abicaye mu ntebe z'umukara, hari abandi bicaye mu ntebe zidekoresheje igitambaro cy'umuhondo, imbere yabo hari utumeza duteretseho uducupa tubiri tw'amazi, iyo hirya hateretseho isakoshi, ibitabo, telefoni, impapuro.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Abagabo babiri n'abagore babiri bicaye bafite impapuro imbere yabo ikirahure cy'amazi agacupa k'amazi, uwo hino yifashe mu gahanga yambaye isaha ku kaboko afite bike mu ntoki ari kwandika.

Abadamu n'abagabo bamwe bicaye bari kureba muri mashini, abandi bahagaze, abandi bari kureba ku ruhande rwa ruguru, bafite terefone mu ntoki, igitabo ku meza, igifunze n'igifunguye, agacupa k'amazi ku meza.

Abadamu n'abagabo bahagaze bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'umweru, kumeza zabo hari terefone, igitabo, bike, udukombe, isakoshi ya shokora, intebe iri kuruhande hejuru y'umutuku.

Abagabo batanu bicaye hamwe mu umudamu umwe bane bambaye amakote undi yambaye ishati hagati harimeza iho ururabo umudamu yambaye ikote ry'ubururu agakanzu karimo amabara y'ubururu n'umweru agakweto k'umweru karekare.

Umudamu uhagaze uri kureba imbere asutse ibisuko by'umukara yambaye amarinete, amaherena, ikote ririmo utubara twumukara n'umweru imbere harimo agashati k'umweru mu mikoro imbere y'umukara

Abagore babiri bahagaze abandi bicaye mu ntebe z'umweru bambaye imipira yuubururu hari umugabo uhagaze yambaye ikoti ry'umukara, umumupira w'ubururu ipantaro y'umukara mukandara w'umukara ari.

Abagabo batatu bicaye n'umudamu umwe; batatu bambaye amarineti, umwe ntayo yambaye, batatu bambaye baje mu ijosi z'ubururu, mbere yabo hari ibirahuri, amacupa, impapuro, mashini.

Abadamu n'abagabo bicaye mu ntebe z'umweru imbere yabo hari mashini, mikoro, uducupa tw'amazi aho dutetse ni umutuku, inyuma yabo hari undi mugabo uhagaze yambaye baje mu ijosi y'ubururu n'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye bamwe bari kureba imbere abandi bari kureba hirya, umudamu wo hagati yambaye ikanzu ya shokora, amaherena agakomo ku kuboko, isaha, raputopu ku bibero, isakoshi y'umukara iruhande rwe.

Abagore n'abagabo bicaye mu ntebe z'umweru zifite urubaho rwa shokora. Bafite terefone mu ntoki, uwo hirya yambaye amarinete afite ikayi mu ntoki ari kwandika.

Abadamu n'abagabo bicayeyi harimo umwe uhagaze. Imbere yabo hari Imashini, uducupa tw'amazi, ibitabo, impapuro, terefone. Hari uwundi uhagaze yambaye ishati yumweru, ipantaro.

Abagore n'abagabo bicaye bari kureba imbere ku meza yabo hari ibitambaro by'umweru, uducupa tw'amazi, ibitabo, munsi y'abo hari umugozi wa raronje y'umweru, hasi hari amakaro.

Abagabo n'abadamu bicaye, bamwe bari kureba imbere abandi bari kureba ku ruhande, ku bibero byabo hateretseho imashini, hari umudamu wicaye mu gihande cya ruguru ku mwanya wa kabiri yatereretse isakoshi, hasi ni umukara, ku ruhande rwa hariho la ronje iriho imigozi.

Abagabo n'abadamu bicaye, ku meza yabo hariho uducupa tw'amazi, ibitabo, terefone, yicaye ku ntebe z'umukara, uyoboye inama mu imbere yambaye ishati y'umweru, ku gikuta hariho udutako dutatu.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, ameza yabo ategujwe n'ibitambaro by'umukara, hariho mikoro, inyuma hari abagabo bafite kamera z'umukara, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Abagabo babiri bicaye n'umudamu umwe, kumeza hari laputopu, telefone, uducupa twamazi, umugabo wo ku ruhande yambaye ikote rya shokora, ishati y'umukara, amarinete, uwo hagati afite agasatsi gake ku mutwe.

Abadamu n'abagabo bicaye mu ntebe z'umukara bareba imbere, imbere yabo ku meza hari agacupa ka ji, amazi, ikirahure cyubitse, ibitabo, bike, ku ruhande hari umudamu wambaye ikanzu y'umuhondo, afite urupapuro rw'umweru mu ntoki.

Abagore n'abagabo bicaye inyama yabo hari abana bahagaze, abicaye imbere bambaye imipira y'icyatsi, iruhande rwabo hari umupolisi.

Abagabo bicaye harimo abadamu babiri, inyuma harimo undi umwe wambaye umukara, kumeza yabo hariho mashine, uducupa tw'amazi, impapuro, bicaye mu ntebe z'umukara, umudamu wo hagati yateze agatambaro mu mutwe k'ubururu, yambaye amarinete, amaherena, agapira k'ubururu.

Abagabo bicaye imbere yabo hari amavide mato, karindari, hari uwicaye hino uri kuvuga, afite mikoro mu ntoki, urutoki rwe ruriho impeta, akaboko ke kariho isaha, yambaye ishati y'umukara.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'icyatsi, bambaye amapantaro y'ubururu, bambaye amashati y'umweru, hari imeza y'ikirahure, hariho amazi, hariho mashini, hari tapi y'umutuku, hari sima y'umutuku, harimo icyapa cy'icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye bari kureba imbere, kumameza yabo harimo uducupa tw'amazi, mashini, ibitabo, bike, terefone, biteguje ibitambaro by'umutuku, umweru.

Abagore n'abagabo bicaye, bareba imbere, imbere kumeza hari mashini, mikoro, igitabo agacupa k'amazi, bicaye mu ntebe z'umukara, umugabo wicaye hano hino imbere yambaye ishati y'umukara, isaha ku kaboko...

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Abagabo n'abagore bicaye imbere yabo hari ururabo, icupa, ikirarahure, impapuro, ibitabo, bafite bike mu ntoki, terefone, uwo ku ruhande rwa ruguru yambaye ikote ry'umukara, ishati ya burusiyeri, karuvate y'umukara, isa ku kaboko...

Uyu mukobwa arahagaze yambaye ikanzu irimo amabara umutuku umukara umweru, yambaye agashati k'umukara inyuma yambaye isaha ku kaboko, yambaye baji mu ijosi afite mikoro mu ntoki, yambaye amarinete y'umukara, afite imisatsi y'umukara ari kureba ku ruhande.

Umusore n'umukobwa bicaye, imbere yabo hari ibitabo, agacupa k'amazi, mikoro. Umukobwa asutse ibisuko by'umukara, yambaye ikoti ry'umutuku, yambaye baji yumukara, mu imbere harimo agashati k'umukara n'umweru, ari kureba muri terefone.

Inzu ndende z'umweru, hari n'ibirahuri by'ubururu, abantu hasi, amavaze arimo indabo, itente y'umweru, ku ruhande hariho ibitambaro bya oranje, ameza ategujweho n'igitambaro cyu'umweru.

Umugabo wicaye yambaye ingofero, amarinete y'umukara, ijire y'umukara, umupira w'umukara, agakoma ku kaboko, ari kuri mashini imbere ye hari umudamu wicaye yambaye hedifone mu matwi ishati y'umweru.

Umukobwa wicaye afite imisatsi miremire y'umukara ari guseka afite terefone mu ntoki yafatishije amaboko yombi yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'ubururu inkweto z'umweru yashyize akaguru ku kandi ari gukanda.

Umukobwa wicaye arikureba muri telefone. Akaboko gafashe telefone. Hari umugozi w'umweru ucaginze. Akandi kaboko ko hirya kari kuri mashini. Yambaye amahererena. Umupira w'umweru. Ku meza hari suri. Ni akagozi gato k'umukara.

Inyamaswa tuzi ku izina ry'ingagi yari yicaye iri kureba mu kirere, ifite amaso y'umukara, ifite ubwoya, impande yayo hari ibiti biyikikije, urundi ruhande rwo hirya hari indi bari begeranye.

Umusore n'umukobwa bicaye bari kureba muri mashine, iruhande rwabo hari sede, umuhungu afite suri mu ntoki, yambaye ishati y'ubururu bwerurutse, umukobwa yambaye umupira w'umweru n'umukara, ku ruhande rwabo hari undi muntu uri kuri laputopu.

Umudamu wicaye ari kureba imbere, afite imisatsi y'umukara imanuye, yambaye agashati k'umweru, iruhande rwe hari ikirahure kirimo amazi, intoki ze ziri kuri mashine, iruhande rwe hari impapuro.

Abagabo bahagaze bombi bafite mashini mu ntoki umwe ufite afite terefone mu ntoki, yambaye kuteri mu gutwi, yambaye agapfukamunwa k'umukara, afite bage y'umukara ku rutugu yambaye ishati y'ubururu iruhande rwe hari uwambaye agapfukamunwa k'uburur bwererutse, ikote rya shokora.

Umuhanda harimo abagenzi benshi, abamotari, imodoka, ibikamyo, hari amapoto y'amatara y'umweru, iminara y'imyeru, hirya hari inzu nyinshi ziri hejuru ku musozi, ibiti.

Mu muhanda harimo abantu bazamuka abandi bahagaze, ku ruhande rwabo hari giriyaje z'umutuku, hari ipoto, iriho insinga z'umukara, zijyana hirya no hino, hariho agapapuro k'umweru.

Umunara uhagaze ufite insinga hejuru z'umukara zijyana hirya no hino, hino yawo hari ibiti bibiri, munsi yawo hari imodoka y'umukara, hari abana bane bahagaze muri rigori, hepfo yawo hari inzu, hirya hari igipangu cy'umweru.

Abantu basohoka mu gipangu, hino yaho hari akazu k'umweru kariho amategura, hepfo yaho hari imodoka eshatu ziparitse, hejuru yaho hari itara, hepfo yaho hari umudamu wicaye yambaye ibitenge iruhande rwa teremusi...

Umwana wicaye mu kagare k'icyuma, yambaye umupira w'umuhondo urimo n'ubururu bwerurutse n'umweru, afite agakomo k'ukuboko, imbere ye hari igitambaro cya oranje n'umukara, harimo n'urubaho...

Abagabo babiri bahagaze. bakoranye mu biganza, uwo hino yambaye ishati y'umweru, uwo hirya yambaye irose, isaha ku kaboko, inyuma yabo hari jaride, ibiti, imbere yabo hari inzu y'umweru.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere hari umadamu uhagaze, yazamuye akaboko, yambaye agapfukamunwa k'umweru n'ubururu, yambaye ikanzu y'umukara irimo n'umweru, afashe ku ibendera ry'igihugu, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi...

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Abagore n'abagabo bicaye, bambaye udupfukamunwa tw'umweru n'ubururu, hejuru bambaye imyenda y'imikara, mo imbere harimo umweru, ku meza yabo hari mashini, terefone, agacupa k'amazi, sanitayiza...

Umudamu uhagaze ari kureba imbere afite umusatsi muremure w'umukara, yisize tiro, yambaye shanete mu ijosi, ikanzu y'umutuku harimo akabara k'umukara, mo hagati harimo akabara k'umuhondo n'umukara.

Abagabo babiri bateruye umuntu uryamye ku gatanda bambaye imyenda y'amaroza, gofero inkweto z'umweru, sombere z'umukara umuntu uri ku gatanda yiyoroshe ishuka y'umweru n'umukara ahagaragara umutwe gusa.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakanzu y'umukara imbere hari agatambaro k'umweru, uwo hirya yambaye amarinete, abadamu babiri bo hagati bambaye amakanzu y'amaroza, bambaye amasaha ku kaboko, imbere yabo hari ibitabo, mashine agacupa k'amazi...

Abagabo bicaye abandi bahagaze bambaye imyenda y'iroza. Hirya hari undi uhagaze wambaye ingofero, agapfukamunwa k'ubururu n'umweru, imyenda ya kaki, hari igiti gihagaze hagati yabo gifite urutsinga rw'umukara hejuru.

Umugabo uhagaze ari kureba imbere, nta musatsi afite, afite ubwanwa bw'umweru n'umukara, yambaye ishati y'umweru, ikanzu y'inyuma ni umutuku, umukara, umuhondo, hariho agapensu imbere...

Abagabo babiri bicaye mu ntebe z'umukara, bambaye imyenda y'imituku mo imbere harimo ishati y'umweru, uwo ku ruhande yambaye amarinete y'umukara afite mikoro mu ntoki, imbere yabo hari agacupa k'amazi n'ingofero, telefone

Umudamu umwe n'abagabo babiri; imbere yabo hari icupa, impapuro, mashine, umugabo wo hagati yicaye ku ntebe y'umukara, yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'umukara, afite mikoro y'umukara mu ntoki, isaha ku kaboko.

Abagabo bicaye bambaye imyenda y'umukara, udupfukamunwa tw'ubururu bwererutse n'umweru, intebe z'umukara, ameza ariho mashini, ibitabo, abandi bambaye imyenda ya move, udupfukamunwa twa move, amatara y'umweru.

Umugabo wicaye ntamusatsi afite, yambaye hedifone z'umukara ziriho mikoro, ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu iriho utudomo tw'umukara, yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari igitambaro cy'ubururu, ku ruhande rwe igikuta cy'umweru.

Umudamu uhagaze afite agasatsi gake ku ku mutwe ari kureba imbere yambaye amarinete y'umukara asize akarujarevure gake ku munwa, yambara amaherena agendera ikanzu y'umutuku n'ibara ry'umukara, imbere harimo umuhondo.

Umugabo uhagaze uri kureba imbere w'igikara, yambara amarinete, yabumbye umunwa, yambaye igikanzu cy'umutuku, harimo akabara k'umukara n'umweru, mu imbere yambaye ishati y'ubururu bwerurutse irimo akabara k'umweru.

Abagore n'abagabo bicaye, bareba imbere, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, ibitabo, terefoni, umugabo hagati yambaye amarinete y'umukara, ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'umukara irimo utubara tw'umweru.

Abagabo batatu bari kugenda, babiri bambaye imyenda isa, hose n'umukara, inkweto z'umukara, ingofero z'umukara, uwo hagati yambaye ingofero y'umweru, imyenda ya kaki, inkweto z'umukara, yambaye...

Abagore n'abagabo bahagaze, bose bazamuye amaboko, bafite utudarapo turimo amabara atatu: umutuku, umwe, ubururu, umugabo imbere yambaye ingofero y'umukara, ishati y'umweru irimo akarongo k'ubururu.

Abagabo babiri bahagaze, bombi bambaye imyenda y'umukara, uw'imbere yambaye umupira w'umukara, uriho utubara umutuku, umweru, ubururu, yambaye ingofero y'umukara, amarinete y'umukara, afite mikoro y'umweru n'umukara.

Umugabo n'umugore bahagaze bafashe ku idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ubururu, umuhondo, icyatsi, umugabo yambaye ikanzu y'umweru ikote ry'umukara, ingofero y'umukara, amerinete y'umukara yazamuye akaboko.

Abagabo bahagaze, bambaye amabaji y'ubururu, ariho n'akapa k'umweru, uwo hino yambaye ishati irimo utubara tw'umutuku n'umukara yayifasheho, uwo hirya yambaye amarinete...

Abagabo batatu bahagaze imbere ya bo hari mikoro, hari ufite urupapuro mu ntoki, inyuma hari umudamu wicaye yambaye iby'umukara, amarinete y'umukara, hirya hari undi mugabo uhagaze uri kureba ku ruhande yambaye ishati y'umweru, hejuru y'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara.

Abagabo babiri bicaye n'umugore umwe yabo ategujeho igitambaro cy'umuhondo n'umweru, imbere yabo hari ibyapa birimo amafoto, mikoro zitandukanye, telefone, uwo hagata ayifite mu ntoki, ku ruhande rwabo hari idarapo, uducupa tw'amazi.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara ameza y'umuhondo, imbere yaho hari agacupa k'amazi, mikoro bose bari kureba imbere, hari undi mugabo uhagaze imbere ye hari mikoro yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru.

Abagore bicaye mu ntebe z'umukara, uwo imbere asutse ibisuko bya shokora, harimo akabano, yambaye amarinete, amaherena, isaha ku kaboko, ikote ry'ubururu, imbere hari agacupa k'amazi, mikoro.

Amwe mu mabara tuzi agize Idarapa ry'Igihugu: ubururu, umuhondo, icyatsi, munsi harimo ingombajwi enye, urundi ruziga rurimo amagambo y'umukara, munsi harimo akarongo kanditsemo amagambo y'umweru.

Abagabo bisize amarange arimo umutuku, umweru, ubururu bwerurutse, umukara, umudamu wo ku ruhande yambaye ingofero y'umukara, asutse ibisuko bya shokora, biriho amasaro inyuma, yambaye umupira w'umukara, ahetse ibage y'umukara.

Uyu mugabo nta musatsi afite yambaye amarinete y'umukara yabumbye umunwa afite ingoto, yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu imbere ye hari mikoro y'umukara ari kureba imbere.

Akaboko k'umuntu gafashe urupapuro ruzinze, munsi hari izindi, imbere hari izindi zirambuye, agakarito gahagaze k'ubururu n'umweru, iruhande rwaho hari marikeri y'ubururu n'umutuku, hari amafishi ariho amafoto y'abantu.

Abakobwa babiri n'umuhungu umwe, bose bambaye imyenda y'imyeru hejuru, bafite impapuro z'imyeru mu ntoki, ku ruhande rwabo hari amabara icyatsi, umuhondo, umukobwa umwe asutse meshi z'umukara, hariho amasaro y'umweru afite udukomo ku maboko, yambaye amasogisi y'umukara.

Abagore n'abagabo bahagaze bazamuye akaboko imbere yabo hari mikoro y'umukara bahagaze imbere y'idarapa ry'igihugu harimo amabara, ubururu umuhondo icyatsi hirya hari umugabo wambaye ikote ry'umukara ipantaro yumukara ishati yu y'umweru.

Imodoka ni umweru ihagaze inyuma y'igipangu cy'umukara, hepfo yaho gato hari umudamu uri kugenda, yambaye igitenge kirimo ibara ry'umutuku umuhondo n'umukara ateze igitambararo cy'umuhondo afite agafuka mu ntoki yambaye aga-

Muri gare abantu babiri bicaye, abandi babiri bari kugenda, mugabo w'imbere yambaye rakosita irimo ubururu, umweru, umukara, umudamu uri inyuma yambaye ikanzu y'umukara yitandiye...

Ifuso ihetse hejuru harimo imifuka y'umweru, shitingi y'ubururu, imigozi y'umukara, imbere hirya hari abantu bahagaze, hirya hari igiti ruguru y'umuhanda hari inzu y'ubururu.

Ipoto ihagaze, ikibuga cya basiketi harimo ibara ry'umutuku, umweru, agapaniye ka oranje ubururu, umweru. Inyuma hari jaride y'icyatsi, ibiti, urukuta rw'amatafari ruriho ibara ry'umukara.

Imiryango y'amashupu yose irafunguye hariho ibyapa by'abantu. Bagira inkweto, amashati, ipantaro, amasogisi, imipira.

Imodoka eshatu hanze, ebyiri z'umukara imwe y'umweru, etejeri hanze, umugabo urigusohoka muri shopu yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, n'amvelope mu ntoki, hejuru hari icyapa hirya hari inzu y'umweru iriho ama ateni.

umuhanda w'umukara urimo imirongo y'imyeru, hari moto eshatu zicanye amatara ziri kuza, hirya hari imodoka nayo iri kwaka amatara inyuma iri kuzamuka, hari ibiti bikikije ahongaho, hakwagamo amatara y'umuhondo.

Umuhanda umanuka n'uzamuka harimo imurongo y'umweru hagati hamwe bambukira, hari akajaride karimo amapoto y'amatara, hirya hari ibiti, harimo akapa.

Kaburimbo harimo ropuwe yo hagati irimo jaride, ibiti, amapoto y'amatara, hasi n'ubururu hejuru n'umweru, hirya hari inzu y'umweru irimo ibirahure, hejuru hariho.